Aha ngaha barerekana abakora imyitozo ngororamubiri babigize umwuga, n'ikigo kibashinzwe kibafite mu nshingano, bari mu nama z'ibyo bazakora.

Aha ngaha bari mu nama. Urabona yuko bateretse amazi y'inyange, bafite ibikoresho by'itumanaho imbere yabo, kandi ahantu barimo gukorera naho, hari ibikoresho bikorwa mu biti.

Iyi ngiyi ni inama barimo kuvuga ku bijyanye n'imirire mibi, babigisha uburyo bazajya batera imyaka y'abo bagasarura ibintu byinshi byo kurya n'byo kugurisha.

Aba ngaba ni abakora imyitozo ngororamubiri by'umwuga, bari mu nama y'uburyo bazakora neza bageze mu mikino ihuza isi n'imyitozo ngororamubiri.

Gukorera hamwe, iri ni itsinda ry'abantu bane barimo kuganira ku mushinga wabo, abakobwa batatu n'umuhungu umwe, bigaragara yuko, bari ahantu heza cyane, intebe z'umutuku n'ameza y'umweru.

Ahangaha barerekana ikigo cya leta n'umuyobozi wacyo, gishinzwe kwigisha abantu uhereye ku kiciro cyo hasi kuzamuka, bigisha abantu uburyo bw'imiyoborere.

Aba bantu bari mu nama. barimo abagore batandatu niba mbasha kubona, n'abagabo bambaye amakote y'umukara.

Nkuko mubibona iki ni icyumba k'inama harimo abantu umunani, abagore batatu n'abagabo batanu bari kunywa amazi y'inyange, harimo imashini ya ecipi yicaye ku ntebe z'umukara, ba porojegise ku gikuta aho barimo kurebera ibyateza imbere compani yabo.

Aha ngaha turabona abakozi batatu n'uwa kane ufashe ibyuma ngo bitagwa, barimo kubaka umunara wafatwa n'insinga z'amashanyarazi cyangwa n'itumanaho.

Iyo ngiyi ni inyibutsa, irabibutsa yuko hasigaye umunsi umwe kugira ngo umusoro wa bibiri na makumyabiri na kane urangire, gusora birangire, ati mwibuke.

Ahangaha ni mu murima w'umuturage cyangwa w'igihugu, harimo umunara w'itumanaho ushinzwe gutuma abaturage bo mu gace kamwe no mu kandi gace babasha kuba bahana amakuru.

Aha angaha turahabona itangazo ry'ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Barerekana ko ku bihumbi mirongo itandatu nta musoro utanga. Kuva ku bihumbi mirongo itandatu kugeza ku bihumbi ijana usora ibihumbi bine.

Aha ngaha turabona akazu gato k'ubucuruzi kandi akaba ari naho batangira serivisi za leta, aho inzu ikomeye mu Rwanda y'imari n'imigabane itangira serivisi zayo.

Aha turabona inzu y'ubucuruzi ikoreramo n'ikigo cya Leta cyangwa cy'uwibikorera cyitwa Irembo. Irembo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ridufasha kuba twabona serivisi za Leta bitatugoye.

Iyi foto irerekana umuyoboro w'amashanyarazi uri ku muhanda, hari ibiti bishinze ari byo biriho insinga, hari n'ibyapa byamamaza, ndetse n'ububiko bw'imiti.

Aha ngaha turabona inzu y'ubucuruzi ifite imiryango myinshi abantu baza bagakodesha, hakaba hari ipironi ry'amashanyarazi, hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'iza enterineti kandi hariho n'itara ryo ku muhanda.

Aha ngaha turahabona umuhanda ukoze neza, ugana ahantu hari inzitizi cyangwa imbibi hagati y'igihugu kimwe n' ikindi. Imbibi ni ahantu hagati na hagati.

Aha ngaha ni ku kigonderabuzima, aha ngaha niho abarwayi bakaza kwivuza, haba hari abaganga babyize bakabavura.

Ahangaha turahabona ibitaro, ikigo nderabuzima, turabona kizimyamwoto cyangwa igikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro gusa.

Uyu mugabo baramufunze aha bari bamujyanye bari kumwe n'umupolisi w'igihugu wambaye inifomo z'umukara yari umunyamakuru aza kuvuga ibintu bitari byiza.

Aha ngaha turabona imodoka yo mu bwoko bwa toyota aritisi y'abashinzwe umutekano. Iri kwaka amatara y'ubururu n'ay'umutuku. Ibyo bita ubuduha.

Aha ngaha ni ku cyicaro cya polisi y'igihugu giherereye ku Muhima, urabona ko hari imodoka nini yo mu bwoko butwara abantu n'umuryango, iruhande rwayo hari umupolisi w'ingabo y'igihugu yambaye imyenda y'umukara.

Aho ngaha turahabona umugabo urimo gukora icyo bita kwiyamamaza, azenguruka igihugu, umwe mu biyamamariza kuba umuyobozi w'igihugu. Amazina ye yitwa Philip MPAYIMANA.

Uyu mugore urabona ko ari umukire, afite igitambaro mu mutwe, yambaye amaherena, yambaye imyenda y'imyeru, yambaye n'imiringa ku ijosi.

Iyi ngiyi ni imodoka ishinzwe gutwara abantu, ni imodoka ishinzwe gutwara abantu muri kigali gusa izi ngizi zihagazeho, izi ngizi umuntu uzishyura aba kabisa, ziri mu bwoko bwa bwa bikinike ifite n'amabara y'umuhondo compana yayo twaye yogo kabu iyiri imbere bayita korora nako ni toyota, izina ryayo nzaribabwira ubutaha.

Uyu ni umuhanda uva Nyabugogo werekeza mu Gatsata, iyi n'imodoka imwe mu zitwara ibikoresho by'ubwubatsi y'ikigo gikomeye mu Rwanda gishinzwe ubukerarugendo.

Aha ngaha turahabona kimwe mu bigo bishinzwe gutwara abantu mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda mu gihe ikoresha amamodoka atwarira abantu hamwe. Imodoka ya bo isa umweru, umutuku n'umuhondo.

Aha ngaha barerekana ikigo gishinzwe gutwarira abantu n'ibintu hamwe hagendewe ku butaka.

Umuhanda uva Nyabugogo werekeza i Nyanza, ndahabona ikamyo ihetse ibicuruzwa, ikamyo y'umweru ndetse n'ibiti, hepfo aho ngaho bahakorera amatafari.

Aha ngaha ntabwo mpazi, ariko uko bigaragara barimo kuhubaka, ino moto bayita rifani, iriya y'indi y'imodoka bayihita ruvakwaya, ihetse ibiryamirwa.

Ahangaha ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru mu kigo kiri mu karere ka kicukiro aho abanyeshuri yaba aba segonderi cyangwa abo muri kaminuza bajya kwitoreza.

Aha naho ho ntabwo mpazi, ariko nk'uko bigarara ni muri Karitsiye ikorerwamo ubucuruzi, urabona ko muri ino nzo bacuruza imyenda, hari imodoka hanze, kandi inzu yubatse ku muhanda.

Aha ngaha turahabona umuhanda, uca imbere y'inyubako nziza, igeretse inshuro eshanu, uriho n'icyapa cyamamaza inzoga zengerwa mu Rwanda, zitwa sikoro.

Aha ngaha ni hamwe mu duce tugize akarere ka Kicukiro tubamo abantu bakize, urabona nk'iyo nzu ni inzu nziza ifite ibikenerwa byose kandi iri ku muhanda aha ni ahitwa mu kajagari ka kabiri muri Kanombe.

Hano ni Kimironko, imodoka y'umukara, inzu y'ubururu na shokora, aha ngaha ni aho abanyamaguru bambukira, amapine y'umukara, umuntu wambaye imyenda y'umukara.

Iyi ngiyi ni inzu abakerarugendo bararamo, iherereye i Remera barimo kuzamuka uva Kanombe ku muhanda unyurwamo mu byerekezo bibiri.

Aha ngaha turabona inzu isize amarangi y'umweru n'umukara, ifite uruzitiro rw'umukara, icyapa gishinze ku muhanda, n'ibyatsi, n'ibiti bizengurutse hano hantu.

Aha ngaha ni kuri wa muhanda uva mu mujyi, aha baba barahubatse gutyo kugira ngo baririnde amazu ari ruguru atazahanuka. Ubu ngubu ni uburyo bugezweho bw'ubwirinzi, bwo kubaka mu buryo bugezweho.

Aha ngaha ni umuhanda uva Nyabugogo uzamuka ujya mu mujyi. Ino nzira mubona ku ruhande, ni iy'abanyamaguru gusa. Iyo ukandagiye muri ibyo byatsi urahanwa.

Aha ngaha barerekana, aha ni mu isangano ry'imihanda aho imihanda irenze ibiri ihurira, hakaba hari umuhanda umwe munini w'izigenda n'undi muzigaruka hari ipikipiki mu muhanda zirenze ebyiri.

Aha ngaha ni mu masangano y'imihanda umwe uva Nyabugogo werekeza i Remera undi uzamuka ujya ku Gisozi. Isangano ry'imihanda ni ahantu imihanda irenze umwe iba ihurira.

Aha ngaha turahabona umuhanda wo mu kirere mushyashya uva i Remera werekeza i Nyanza. Uyu muhanda ni mushyashya. Bawubatse ejobundi uca hejuru y'indi mihanda ibiri, umwe uva Nyabugogo undi werekeza mu Kagarama.

Ahangaha ni imwe mu mihanda ikoreshwa cyane mu Mujyi wa Kigali. Urabona ukuntu umuhanda ucibwamo n'ibinyabiziga mu bice bitandukanye, yabizigenda cyangwa izigaruka. Turahabona amapikipiki atatu, imwe itwara imizigo n'izindi ebyiri zitwara abantu.

Uyu nguyu ni umuhanda uba mu mujyi werekeza za Nyamirambo, urabona yuko ari umuhanda munini.